Inyubako ndende cyane ya etaje igerekeranye iberamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibijyanye no kugira inama abantu uburyo bw'imihingire ndetse no kubaha imiti itandukanye yica udukoko.

Umurima bamaze gutunganya neza, aho bagejejemo n'ifumbire. Bagiye kurishyira mu byobo, hanyuma bahingemo imbuto.

Itsinda ry'abantu bahagaze mu murima w'ibigori aho barimo barashyiraho imvaruganda kugira ngo bizere neza.

Umurima bamennyemo ifumbire ngo rizakoreshwe rifumbira imyaka yabo, iri fumbire rikaba ari umusarani bacukuyemo umwanda ngo uzaze ukoreshwe nk' ifumbire.

Umugabo ufite ifumbire mu ntoki yiwe, aho arimo araryerekana agaragaza ko aba agomba gufumbira.

Abantu bari mu murima w'ikawa aho barimo barasarura ikawa, higanjemo abagabo ndetse bamwe muri bo baricaye.

Inyubako irimo imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura amatungo ndetse n'indi ikoreshwa yica udukoko two mu bihingwa, harimo umugabo umwe urimo arayicuruza wambaye impuzankano yabugenewe.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bivanze mu kabati ndetse harimo n'amacupa y'amazi n'utundi dutandukanye dufasha imyaka gukura neza.

Umugore uri mu murima w'inyanya, akaba ahetse n'ipombo inyuma mu mugongo, arimo arazifuhira kugira ngo zizere neza ndetse azirinda n'udukoko.

Igishanga kirimo abantu babiri, aho icyo gishanga gihinzemo inyanya, muri bantu babiri bakaba bari kuzikorera neza kugira ngo zizakure neza uko bikwiriye.

Icyumba kirimo utubati ndetse n'ibikoresho bitandukanye bigiye bipanzwemo, harimo ibyo kuvomeramo amazi ndetse n'udukarito turimo imiti y'amatungo.

Ahantu hitaruye hafi y'ishyamba, hari ifumbire ry'imborera bagiye bahamena kugira ngo rizifashishwe mu buhinzi.

Umurima uri ahantu mu gishanga, harimo ibigori byahingiwe, iruhande hakaba hari inzu ndetse hakurya hakaba hari ishyamba.

Inyubako irimo ibyapa bitandukanye bigurishwa hifashishijwe ibimenyetso byo kwamamaza harimo ibipapuro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuntu uhetse ikidomoro kiba kirimo amazi, kizwi ku izina ry'ipombo. Uyu muntu arimo aravomerera izi mbuto ziri hepfo mu gishanga.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amatungo cyangwa se mu kwica udukoko twabonetse mu bihingwa.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe barimo baratunganya ndetse baranasarura ibishyimbo, inyuma yabo hakaba haparitse imodoka ebyiri.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, harimo uducupa turimo imiti yica udukoko nanone kandi harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru w'umugoronome.

Ahantu hitaruye hari ibikoresho byamaze gutwikwa ndetse bikaba byabaye ifumbire, nanone kandi byivanzwe n'imyanda.

Inyubako irimo umuntu umwe wambaye itaburiya y'umweru ndetse hakaba harimo etajeri igiye itondekwamo imiti y'ubwoko butandukanye ikoreshwa mu buhinzi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bigiye bipanzu mu tubati, ibi bikoresho harimo uducupa turimo imiti yifashishwa yica udukoko kugira ngo imyaka ikure neza.

Umuhanda w'igitaka urimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo, umugabo uri imbere akaba asunitse imyaka kw'igare ryiwe aho agiye ku isoko.

Umurima munini cyane bamaze guhingwamo no gutunganywa kugira ngo bazashyiremo imyaka. Muri uyu murima bari bamaze gusaruramo ibigori kuko haracyagaragaramo ibigorigori.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye, birimo imiti yica udukoko ndetse n'indi ifashwa mu kwita ku bimera.

Umusaruro w'ibigori by'amahundo arambitse arunze hamwe ahabugenewe, aho bategereje ngo ashyirwe mu mashini ishinzwe guhungura.

Umugore wambaye imyenda ya oranje ndetse n'umutuku, akaba yiteze n'igitambaro cy'ubururu, aho asutamye mu murima w'inyanya arimo araseka cyane, izi nyanya zimwe zirahishije izindi ziracyari ntoya.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi aho wahurijwe hamwe mu mufuka ndetse ibi birayi bikaba ari ibirayi bitukura, byera cyane ahantu h'ibishanga.

Igishanga kinini cyane bahinzemo igihingwa k'ibigori, aho bihinze ku murongo kandi hakaba ari byinshi cyane, harimo umuntu umwe ubihagazemo hagati.

Umurima uri ahantu hitaruye, aho hagiye hakatwamo uduce tuzahingwamo ndetse n'utundi duce twagenewe nk'umwanya ugomba gusigwa hagati y'igihingwa n'ikinindi.

Mu muririma uri ahantu mu gishanga, hari amabuye, hahinze ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori ndetse n'ibirayi.

Umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, aho wasaruwemo ibigori bigaragazwa n'uko ibigori byasigaye muri uwo murima nyuma bakaza guhingamo ibishyimbo, ibishyimbo birimo biramera neza cyane.

Insina za kajagari zihingwamo ibitoki, aho zihinzwe ahantu hamwe habugenewe ku murongo, kandi zikaba zareze neza.

Igihingwa kizwi ku izina ry'intoryi, aho cyagiye cyera ibitoryi byinshi kubera kitaweho cyane kikanasasirwa.

Umusaruro w'uburo, aho bwarunzwe hamwe kuri shitingi, hakaba hari umuntu umwe wayoye uburo buke mu kiganza arimo arabwerekana.

Umurima uhinzwemo imboga zizwi ku izina ry'amashu, ariko izi mboga zikaba zitarera, zihinzwe ahabugenewe ndetse zihinzwe bya kijyambere.

Umurima munini cyane uhinzwemo ibintu bijyanye n'imboga, iruhande rw'aho hakaba hari umuhanda w'igitaka ukomeza, hakurya na none hari ishyamba.

Umurima w'ibigori muremure cyane uri ku buso bunini n'umuntu urimo yambaye ipopo mu mugongo arimo aravomera ibigori.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo igitsina gore, aho barimo barasarura mu gishanga uburo, bakaba bambaye impuzankano isa nk'ubururu.

Umurima uhinzemo imboga zizwi ku izina rya shofureri aho riba rifite amababi ameze nk'ayamashu.

Umugabo uri mu murima w'iwe uhinzwemo ibinyomoro ndetse n'ibishyimbo, aho yambaye umupira wa masitakadi ndetse arimo arakorera neza ibinyomoro bye.

Abagore batanu bagaragara neza ndetse n'umugabo umwe utagaragara neza, aho bose bafite umusaruro w'intoryi mu mabase yabo.

Umurima uhinzwemo inyanya ndetse ku bipimo byagenwe, aho zigiye zihingwa ku murongo hakurya yazo hari utuzu dutandukanye.

Pepenyeri y'ibiti by'imbuto birambitse hasi ahantu mw'ishyamba igihe bitarajya guhingwa ibi biti bizingazinze mu dushashi turimo itaka ryabugenewe.

Igihingwa kizwi ku izina ry'ingano aho zeze cyane hanyuma bakazisarura bakajya kuzisharika kugira ngo barindire ko zuma neza hanyuma bazihure.

Umurima uri ahantu kuri hegitari nini cyane, aho uwo murima uhinzemo amasaka, aya masaka ntarera neza ariko ahinze ku murongo.

Abantu babiri bari ahantu mu gishanga hitaruye, aho uwo murima bahagazemo uhinzemo igihingwa cy'ibinyomoro.

Ubuhinzi bugezweho bw'ibishyimbo, aho bihinzwe ku murongo ahantu habugenewe, biracyari bitoya cyane ndetse nta n'imbuto zirahaza.

Umurima urimo ibimera bitandukanye byiganjemo ingemwe z'imyembe ndetse n'umuntu urimo arerekana izo ngemwe akora ku mababi.

Ikibaya gihinzemo igihingwa cy'ibigori, aho bihinze ku buryo bwa kijyambere dore ko bihinze ku murongo umwe ndetse hakaba harimo umwanya hagati y'ikigori n'ikindi uhagije.

Ikiraro kirimo ihene ifite amahembe, yabyaye ndetse ikaba iri kumwe n'utwana tugeze muri tune, ikaba irimo irarisha.

Ukuboko gufite ikawa mu ntoki, aho imbere yaho hari ibisigazwa, ndetse n'ibintu bisa nk'umukara, bitemba.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho ikibuti kimwe kirimo inkwavu zirindwi z'umweru, umukara ndetse n'irindi bara ry'ikijuju.

Umusaruro w'igihingwa kitwa uburo, aho kirambitse ku ihema hasi, kirunzwe hamwe nyuma yo kuba cyasarurwa hakurikiyeho gahunda yo kugitunganya.

Itungo rimenyerewe ku izina ry'imbwa ndetse rikaba rifite ibara ry'umweru aho ryakomeretse ukuguru kw'iburyo, rikaba ririmo riravugwa.

Agacupa karimo umuti witwa Ai-bless ndetse n'agakarito, iruhande rw'ako kari mu ibara yagu gusamutuku kuri uyu muti hakaba hariho ibirango by'amatungo avurwa na wo.

Igihingwa kizwi ku izina ry'inkeri, aho umugabo azifashe mu ntoki, izi nkeri abantu benshi bazi ko nta mumaro zifite, ariko iyo zitunganyijwe zigira akamaro cyane.

Agakarito kanditseho amagambo atukura ndetse iruhande rwaho hakaba hari agacupa kanditseho na none amagambo atukura, agaragaza ko muri aka gacupa harimo umuti witwa Mastipro.

Agacupa kamwe kajyamo umuti wo gutera imyaka gafite umufuniko w'umweru ndetse n'igipapuro ku ruhande cyanditseho amagambo aranga uko umuti ukozwe ndetse n'umumaro warwo ndetse iruhande hari agakarito umuti ubikwamo.

Itungo ryitwa ingurube, barimo bararitera intanga, aho babiri muri bo barimo barayishishira kugira ngo ituze, iki gikorwa kigende neza.

Agacupa gatoya gasa umweru, kakaba gapfundikije umuvuniko wa oranje ndetse hakaba handitse amagambo kuri aka agacupa y'ubururu, aranga ibirimo.

Inyubako y'ubworozi, harimo inkoko ndetse n'imbata, amasake, inkokokazi n'imbata. Imbere yazo hari umugore wambaye bote urimo arazigaburira ahabugenewe.

Agacupa gasa ibara ry'umweru inyuma hakaba handitse amagambo ari mu ibara ritukura ndetse hakaba hariho n'amagambo aranga ibipimo.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru, ndetse gafite umufuniko w'umweru kari mushashi, aka gacupa kakaba kanditseho inyuma amagambo y'ubururu agaragaza ko harimo umuti, batera mu gihingwa cy'ibijumba.

Umugabo uri ahantu mu rutoki, yambaye bote ndetse n'umupira w'umukara, arimo arakorera neza ibiti bya avoka yahinze muri urwo rutoki abisasira.

Umurima munini cyane urimo abahinzi batatu b'igitsina gore, aho barimo barahingamo ibiti by'imbuto, abagore bose barunamye.

Umurima muremure cyane, wari uhinzwemo imyumbati none ubu hakaba harimo umuntu urimo arayisarura, ni umugabo umwe ufite isuka arimo arakura umwumbati umwe kuri umwe.

Itsinda ry'abantu barimo baraharura ku irembo, aho hari hararaye ibyatsi byinshi rwose, bafite amasuka ndetse bari kumwe n'akana gatoya.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, bakaba bari mu muhanda bakora umuganda, baharura utwatsi turi ku ruhande.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo ab'igitsina gabo, aho barimo barahinga ahantu hari umushike. Hepfo yabo hari inzu isakaje ibati rishaje.

Umurima urimo abagabo babiri barimo barahinga ndetse inyuma yaho hari urutoki rurimo ibigori.

Abantu babiri bari ahantu mu gishanga kirimo n'insina, aho bari mu buhinzi bw'ibirayi, bamaze gucukura ibyobo bashyiramo n'ifumbire hasigaye gutereramo imbuto z'ibirayi.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe muri gahunda y'umuganda, abantu b'ingeri zose abagore n'abagabo, barangajwe imbere n'urubyiruko rw'abakorerabushake.

Igishanga kirimo ubuhinzi bw'umuceri ndetse hakaba harimo n'undi muntu umwe w'umugabo, wambaye ipantaro gusa hejuru akaba yambayeho ubusa, arimo arahinga mu murima we.

Abana b'abanyeshuri bari gukora ku busitani bakoze buzwi nk'akarima k'igikoni, aho bishimye cyane, hari na none umurezi uri kumwe na bo.

Itsinda ry'abantu benshi, biganjemo abagore n'abagabo bicaye ahantu ku makoro, imbere yabo hakaba hari ibishyiyimbo byasaruwe ndetse n'umuyobozi imbere.

Itsinda ry'abantu benshi barimo barakora umuganda abagore, abagabo ndetse n'abakiri bato, bose bafite amasuka, barimo baraharura umuferege wo kunyuramo amazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ishati uri ahantu mu gishanga aho yahinze ibintu bijyanye n'imbuto, by'umwihariko voka kuko afashe no ku giti cya voka.

Umurima w'insina za fiya ziteye ku murongo ari nyinshi, izi nsina kandi na none zisasijwe inshinge kugira ngo zizakure neza.

Umusaruro w'inyanya aho zose zatunganyirijwe hamwe zigahurizwa mu bitebo bitandukanye, hari abantu bane barimo barazirunda hamwe.

Igishanga kirekire cyane gihinzwemo igihingwa cy'umuceri hakaba harimo n'abantu biganjemo igitsina gore bunamyemo barimo baragikorera.

Imifuka igiye irimo igihingwa cyasaruwe kizwi ku izina ry'ibirayi, aho imifuka itondetse ari myinshi cyane.

Ihunikiro ry'imyaka, aho hari imifuka myinshi irambitse, itondekanyije. Iyi mifuka hakaba harimo imyaka yasaruwe.

Umusaruro wa voka, aho hari udupaniye icyenda turambitse hamwe, zose zikaba zuzuye muri ubwo bupaniye.

Ibihingwa byamaze gusarurwa byiganjemo amashaza, uburo n'ingano ndetse n'ibindi, aho birambitse mu mifuka yabugenewe.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo umuceri ku ntera iri hejuru cyane, aho utabona aho uyu muceri ugarukiye.

Igishanga kirimo abantu babiri, gihinzwemo ibimera bitandukanye, aho inyuma y'aho nanone hahinzwe ibiti by'ikawa.

Itsinda ry'abantu b'abakozi bakora mu ruganda rw'ikawa, barimo bari gukorera nanone bakaba barimo baratoranya ikawa zapfuye bazikura mu nzima.

Ikizu kinini kitubatse neza, kirimo imifuka barunzemo ibihingwa bitandukanye, bakaba bamaze no gufunga imifuka imwe n'imwe, ikaba itegerejwe gupakirwa.

Ihunikiro yubakishije amabati atukura, iruhande rwaho hakaba yagetseho igare, mu imbere mu ihunikiro harimo ibigori byinshi cyane bigiye bihanitse ku biti birimo.

Ibiribwa bizwi ku izina ry'ibijumba, byeze neza, bikaba birambitse hasi ku butaka ahantu mu twatsi nk'umufungo umwe.

Inzu ya depo irimo imifuka itandukanye, igiye iririmo ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori, amafu ndetse n'ibindi.

Ibigori birunze ahantu hamwe, ibigori bikaba byumye, biri ahantu umuntu atashobora kubifata uko yiboneye ndetse ni mu ihunikiro.

Isoko ririmo ibitoki byengwamo inzoga, aho harimo abagore biganje bamwe bahaha abandi bagurisha.

iigipangu kirekire cyane cyubakishije amatafari ahiye, ndetse mo imbere hakaba hari imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, harimo igiti cy'igipapayi ndetse n'imboga zizwi kui izina rya shufurere.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi bya pasiparume ndetse nibiti byumye bagiye bacamo kabiri. Ibi biti ni bitatu biri ahantu hamwe ku murongo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ikawa, amateke, ibishyimbo ndetse n'ibigori, inyuma yaho na none hari inzu isakaje amategura.

Ishyamba ya kimeza ririmo bwoko bw'imiti butandukanye, aho igiti kigaragara imbere cyane kizwi ku izina ry'umwungo.

Ishyamba rinini cyane kandi rya kera, aho harimo ibiti byumye ndetse ibindi byagiye byigwisha kubera gukura cyane.

Ibiti birebire bya kinyarwanda byimejeje bikaba byarakuze bikaba nk'ibihuru bikaba birebire cyane, inyuma hari inzu zituwemo n'abantu.

Ibihingwa bitandukanye byiganjemo amashu, ibisheke ndetse na avoka, inyuma y'aho hari ibindi byakuze cyane bamwe bazi ku izina rya teyi bikoreshwa bateka inyama.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi bihishe, harimo ibiri mu bwoko bw'amatovu biri hakurya ndetse n'ibindi biri mu bwoko bw'urwiri.

Umurima uhinzemo ubwoko butandukanye harimo ubw'imboga, ibisheke ndetse n'ibindi. Mu mboga harimo dodo ndetse n'amashu.

Ahantu hitaruye hahinzwe ibihingwa bivangavanze harimo imboga, amateke, insina ndetse n'izindi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo biri kumera, ndetse hakaba harimo muri ibyo bishyimbo, insina za kajagari.

Ibimera by'icyatsi harimo ibiti bitandukanye birebire ndetse aha nta muntu n'umwe ugaragara iruhande rw'ibi biti.

Umurima urimo ibintu bitandukanye nk'imiyenzi ndetse n'ibyatsi birebire, hakurya yaho none hahinze ibigori hakaba iruhande rwaho hari inzu.

Igiti cy'amaronji kiri ahantu ha cyonyine, cyeze amaronji menshi cyane, aho amwe muri yo agenda akora hasi kubera ubwinshi bwayo.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye higanjemo imineke, watermelon, imyembe ndetse harimo n'umuntu umwe urimo urabicuruza wicaye iruhande rw'umunzani.

Inzu irimo udupaniye turambitsemo imbuto zizwi ku bwoko bw'avoka, aho ari nyinshi cyane iruhande rwayo hari abantu babiri bahicaye umugore n'umugabo.

Umugore uhetse umwana uhagaze mu bishyimbo, ibyo bishyimbo bikaba bifite uruyange, iruhande rw'uwo mugore na none hari undi mwana w'umuhungu wambaye ikabutura utagaragara neza.

Isoko ry'imbuto zitandukanye, aho izibanzweho cyane ari imyembe ya kizungu.

Abantu bari mu murima wa karoti, aho barimo barazibagarira na none kandi hari igare rya siporo riparitse ryegetse ku giti kiri muri uwo murima.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imboga, hakaba higanjemo imiteja y'ibishyimbo, pavuro, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uhinnzemo imbuto zitandukanye, higanjemo amatunda, ndetse hari n'ibiti birebire bya kimeza.

Ahantu hari ubusitani bwiza ndetse n'aho imodoka ziparika, aho muri ubu busitani harimo ibiti by'ubwoko butandukanye, nka sipuri, indabo zo hasi n'ibindi.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, byiganjemo ibiri mu bwoko bw'imboga, aho harambitse karoti, intoryi ndetse n'inyanya, hasi ku mifuka.

Itsinda ry'abantu batatu harimo umugabo umwe n'umugore umwe ndetse n'umwana, aho bari mu murima wabo w'intoryi baje gusarura kandi bishimye.

Inyubako yubakishije amatafari manini n'amatoya, imbere yayo hakaba hari ubusitani n'ibiti by'imikindo bihinze bitatanye.

Abantu batatu, harimo babiri bakuze umugore n'umugabo ndetse n'umwana mutoya, bari mu murima aho barimo barasarura imiteja y'ibishyimbo.

Isoko ry'imbuto ryiganjemo, imbuto zizwi ku izina rya wotameroni, ndetse iruhande rwayo hakaba hari voka ndetse n'imyembe ya kizungu.

Ubutaka buhinzwemo pasiparume ndetse n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo, aho zikikijwe n'amatafari.

Umugabo uhagaze mu murima uhinzemo inyanya za kijyambere, uyu mugabo akaba afite n'icupa ryamazi.

Umurima witaruye ahantu mu kibaya, ukaba uhinzwemo imbuto zitandukanye, amapapayi ndetse n'imboga zihinze imbere y'ibyo biti by'amapapayi.

Isoko ry'ibiribwa byiganjemo imbuto, harimo za pome, amatunda, ama watermelon, imineke ndetse n'ibindi, harimo umucuruzi w'umugore wicaye.

Abantu babiri b'abagore, umwe wambaye ingofero, bose bakaba bafite intoryi mu ntoki zabo, bakaba nanone bari mu murima w'izo ntoryi.

Umusaruro w'imbuto zizwi ku izina ry'amatunda aho zirambitse ahabugenewe, inyuma y'ayo matunda nanone hari ibinyomoro ndetse n'indimu.

Umurima uhinzemo imbuto, imbuto ziganjemo ibinyomoro ndetse hivanzemo nanone ubuhinzi bw'imyumbati.

Abantu batatu barimo umugabo ukuze, umwe wambaye bote ndetse n'abana babiri, aho bari mu murima w'inyanya barimo barazisarura.

Ingemwe nyinshi z'ibinyomoro zihinze ahantu hamwe ku murongo kandi zameze ari nyinshi, aho iruhande rwazo nanone hari ibindi bihingwa bitandukanye.

Abagore babiri ndetse n'umwana mutoya bari mu murima w'ibishyimbo, aho barimo barawubagarira bakuramo ibyatsi ngo bitazatuma imyaka yabo idakura neza.

Ubuhinzi bw'indabo nziza cyane aho zihinze ahantu hasi habugenewe, iruhande rwazo hakaba hari umuhanda w'amabuye.

Ibihingwa by'imbuto biri mu bwoko bw'ibinyomoro, aho ari byinshi birambitse hamwe ahantu habugenewe, ibihingwa ni ingirakamaro cyane kuko byongerera umuntu amaraso.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imboga zitandukanye, harimo karoti, ibitunguru, imibiringanya ndetse n'imboga rwatsi.

Ikigo cy'ishuri kizitije ikizitiro cy'ibyuma ndetse hanze yacyo hakaba hari ubusitani bw'indabo zigiye zihinze ku murongo ndetse n'ibiti byo kuzana umwuka mwiza.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imboga, harimo intoryi, karoti, imboga rwatsi, ibihaza ndetse n'ibindi.

Umurima munini cyane uri ahantu mu gishanga, aho uhinzemo amashu, hakaba kandi hahagaze umusore umwe, inyuma yaho nanone hari umurima w'umuceri.

Umurima urimo ibiti by'inyanya byahinzwe nk'imbuto zigezweho, ndetse izo nyanya zikaba inyinshi muri zo zihishije zisa nk'umutuku.

Umusaruro w'imiteja urambitse ahabugenewe, aho urundarunze hamwe nyuma yo gusarurwa, uyu musaruro utegereje gutekwa.

Umusaruro wa puwavuro aho zirambitse ku nkoko ndetse hakaba hari umuntu urimo arazigaragaza neza na none kandi hari imifuka irimo imyaka hasi.

Isoko ry'imboga n'imbuto aho hagaragaramo karoti, imiteja, ibitunguru, sereri ndetse n'ibindi.

Ibyatsi by'ibimera bizwi ku izina rya sereri, aho bikoreshwa mu guhumuza ibiryo bitandukanye, ibi byatsi birambitse hasi kuri tapi.

Imboga zitwa karoti n'izindi mboga zitwa imboga rwatsi, inyuma yaho hari inyanya ndetse na puwavuro, byose birambitse ahabugenewe.

Isoko bacururizamo umusaruro w'imboga, aho hari karoti zirambitse kuri shitingi ndetse iruhande hakaba hari n'umugabo urimo arazicuruza.

Inyubako ikikijwe n'urupangu, ndetse iruhande hakaba hahinzemo imboga na pasiparume.

Umusaruro w'imboga zizwi ku izina rya karoti, aho urundarunze hamwe ndetse hakaba harambitsemo n'ibase bakoresha bari gucuruza izi karoti ku biro.

Igipangu cy'amatafari ndetse iruhande rwayo hari ubusitani bugizwe na pasiparume ndetse n'indabo ziteye hafi aho ku ruhande.

Ubusitani buhinzemo indabo ndetse na pasiparume, iruhande rwaho hakaba hari rigori zicamo amazi zikozwe muri borokesima.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye cyane cyane ibitunguru ndetse iruhande rwabyo hari umunzani bapimisha ku biro. Inyuma nanone hari abacuruzi barimo baracuruza.

Imboga za karoti ndetse n'umutesha umwe uri hagati, bikaba byose birambitse kuri tapi hasi.

Akarima k'igikoni gahinzwemo imboga zitandukanye, hakurya hari umukecuru uhagaze, aho inyuma ye hari ibigori ndetse n'ibiyote.

Inzu isakaje ibati ritukura ndetse ikaba izitijwe n'igipangu, hanze hakaba hari ubusitani bw'indabo nziza cyane kandi indabo zitandukanye.

Igipangu kirekire cy'amatafari, iruhande rwacyo hakaba hahinzwe indabo ndetse n'imiti ya kinyarwanda izwi ku izina rya kapusine.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imboga, aho hagaragara imiteja y'ibishyimbo, karoti ndetse n'inyanya, byose birambitse ku meza yabugenewe.

Umwana w'umukobwa mutoya, ahagaze mu murima w'imboga zisasiye neza cyane, aho afashe umupira mu ntoki ushinzwe kuzana amazi, arimo aravomerera.

Igishanga gihinzwemo bwoko bw'imboga butandukanye ndetse n'inyanya, aho harimo umugabo wambaye rinete akaba afashe n'umupira wo gutwara amazi arimo aravomerera.

Umurima munini cyane w'ibirayi, uri ahantu mu gishanga hitaruye, aho harimo abantu babiri barimo baravomerera.

Ahantu hitaruye harimo amazu agiye atatanye ndetse haragaragara imisozi iri hakurya cyane.

Ahantu mu kibaya harimo abantu bane, barimo babiri bafite amasuka ndetse n'undi umwe uri imbere yabo na we ufite isuka, iruhande rwabo nanone hari umukecuru wicaye.

Ikibaya kirimo ubuhinzi bw'umuceri ndetse hakurya yaho hakaba hari umusozi utuweho abantu, inyuma na none hari ishyamba ririmo ibiti birebire cyane.

Igishanga gihinzemo ibiti bitandukanye ndetse hakaba harimo n'abantu barimo barakora amaterase ndinganire.

Umurima uri ahantu mu kibaya, uhinzemo imboga ahantu hashaje cyane, izi mboga nanone zirasasiye.

Ikibaya gihinzemo ibihingwa bitandukanye, higanjemo ibigori, muri icyo kibaya harimo akagezi gaciyemo hagati y'ibigori ndetse hakurya hari amazu abantu batuyemo.

Umurima munini cyane uhinzwemo ibyayi, aho biri ku ntera ndende cyane ireshya nka hegitari, ndetse hakurya yabyo hari umusozi muremure.

Umudugudu urimo amazu atandukanye, amenshi ari amazu y'amategura, hakaba hari abana na none barimo barakina umupira.

Ifoto yafotowe na telefone, igaragaza ikibuga kirimo ibisiga bibiri ndetse hakurya hakaba hari imodoka itwara abagenzi.

Umurima uhinzwemo ibyayi, uri ahantu hitaruye hagati, yaho hakaba hari akayira naho hakurya hari amashyamba.

Igishanga kirimo umugezi utembamo amazi, ndetse n'umukecuru umwe arimo aravoma aya mazi yanduye, mu muhanda haparitse imodoka ebyiri, ndetse hariho n'abantu benshi.

Ikibaya kiri ahantu hitaruye gihinzemo umuceri, ndetse hagati hari utuyira ducamo amazi, hakurya hari amashyamba, ku rundi ruhande hari inzu zituwemo n'abantu.

Ikibaya kiri ahantu hitaruye, giteye mu ibyayi. Hakurya yaho hari inzu z'amabati ebyiri, zitagaragara neza.

Igishanga kirimo ibimera bitandukanye. Hakurya yacyo hakaba hari amazu abantu batuyemo. Hasi nanone hari imirima y'imiceri.

Ihene iri mu ibara ry'umweru ndetse n'igitaka, iri mu kiraro cyayo ikaba iziritse n'umugozi mu ijosi ngo itaza gucika.

Umwana mutoya w'umukobwa wishimye cyane arimo araseka, aho ari kumwe n'umubyeyi we w'umumama barimo baragaburira amahene yabo, aha hari amahene ane.

Ishyo ry'inka riri ahantu habugenewe aho inyuma hari amatente menshi, harimo abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze imbere, izi nka zigiye guhabwa abantu muri gahunda ya gira inka.

Inkoko y'inkoko kazi iri ahantu mu mbuga irimo iratambuka ijya imbere.

Ubworozi bw'ingurube, aho ikiraro kimwe kirimo ingurube nini cyane ifite ibyana bine, aho irimo irarabyonsa iryamye.

Itungo ry'ingurube riri ahantu risanzwe riba mu kiraro, aho ririmo rirarya utwatsi twari twasigaye, iruhande rwayo nanone hari ikibase gisanzwe ziriramo.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe ndetse bakaba buri wese afite ingurube, inyuma ya none hari haparitse imodoka ndetse imbere yabo hari umugore urimo arabaganiriza.

Abantu bahagaze ku biraro byororewemo ingurube, abantu bakaba ari abayobozi baje gusura ubworozi bw'ingurube.

Inka y'isine irimo irarisha ubwatsi iruhande rw'inzira, ifite n'umugozi mu ijosi, iruhande rwayo na none hari umuhungu uyiragiye.

Inka enye ziri ahantu mu kiraro gishaje ndetse n'abantu bari hanze yacyo, barimo barazitera inshinge, aho bari kuzikingira indwara zitandukanye.

Umugore wunamye urimo aragaburira amahene y'iwe abiri makuru, ndetse n'abana babiri, arimo arazigaburira ibyatsi byasigaye batonora ibishyimbo, iruhande rwe hahagaze umwana w'umuhungu.

Ibiraro bibiri birimo inka zigaragara, ndetse n'ikindi kimwe kiri hirya, aho harimo n'abandi bantu babiri barimo imbere n'undi umwe uri hanze, barimo barazitaho.

Inka yishwe n'inzara, aho ihagaze mu kiraro iziritse ifite agahinda ndetse umugongo wayo wabaye amagufwa gusa kubera kutabona ibyo kurya bihagije.

Inyubako z'ibiraro zirimo inka muri buri kiraro imbere hakaba hari igikoresho zinyweramo amazi kizwi nk'umuvure ndetse n'ibyo ziriramo.

Inzu y'igikoni itagira urugi, aho imbere yayo hari ibyana by'ingurube bibiri birimo birarisha ubwatsi.

Inka y'inzungu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara iri ahantu mu kiraro gipfukiranye, aho nta bwatsi ifite bwo kurya ihagaze yonyine.

Igisagara gihinzemo ibiti n'insina ndetse hororewemo amatungo atandukanye nk'inka ndetse n'inkoko.

Umubyeyi ndetse n'abana be batanu, aho umubyeyi arimo arazirika ihene ebyiri ahantu hari utwatsi.

Inka nini iziritse ahantu mu kiraro cyubatswe vuba, aho irimo iragaburirwa ibisigazwa by'ibishyimbo.

Ikiraro kiri ahantu hubakiye neza ndetse hanazitiye neza, aho harimo inka ikiri ntoya ariko ikaba ifite urwoya imeze nk'irwaye. Iyi nka iryamye hasi.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, aho ari atatu, akaba aziritse ku biti biri mu rugo rw'aha ngaha.

Icyumba cyororewemo inkoko zitandukanye, amasake ndetse n'inkoko kazi, hakaba hahagazemo umuntu ushinzwe kubyitaho.

Ingurube iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'ibyana byayo, aho biri mu kiraro cyabugenewe, bikaba biri konka.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwitwa ubworozi bw'inkoko, aho inkoko ziganjemo inkokokazi, ziri ahantu hamwe zose zegeranye, zirimo ziratoragura ibigori bazijugunyiye.

Ihene iri ahantu mu gisagara, aho inyuma yayo hazitije imiyenzi, iyi hene ikaba iri ahantu na none aho hasi hari ibigorigori ndetse n'ibindi byatsi.

Inyubako ikorerwamo ubworozi bw'ingurube zitandukanye, hakaba hari n'umugore wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana muri aka kazi k'ubworozi ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Amahene ane aziritse ku biti ndetse hakaba hari n'ibiraro by'ingurube, izi hene zirimo zirarya imigozi y'ibijumba.

Inka y'inzungu, iririmo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, ikaba iziritse umugozi mu ijosi, ihagaze ahantu hitaruye, ndetse inyuma yayo hariho izindi nka ndetse n'umuntu umwe.

Ahantu hari abagabo batandukanye, buri wese afite inka aho inyuma haparitse imodoka ya Fuso yaje ipakiye izo nka, abo bantu bamaze kuzihabwa muri gahunda ya gira inka.

Ikiraro kirimo itungo ryitwa ingurube ndetse iri tungo rikaba ryarabwaguye ibyana bigera muri birindwi aho birimo bironka, iyi ngurube yo irahagaze.

Itungo rimenyerewe ku izina ry'ingurube, aho riri mu kiraro cyabugenewe, iruhande rwayo hari ikibase inyweramo amazi.

Ikiraro kirimo inka y'isine ndetse imbere yayo hakaba hari ahantu habugenewe bashyira ubwatsi hanyuma zikaharira.

Itungo rizwi ku izina ry'ingurube aho iri tungo ryishwe n'inzara cyane, rikaba rifite urwoya rurerure, rikaba rifungiranye mu kiraro nta n'ubwatsi rifite byo kurya.

Ingurube nini cyane iryamye hasi, aho irimo ironsa ibyana yabwaguye bingana n’umubare cumi na kimwe, mu kiraro kandi hari ikijerekani ziriramo.

Ubworozi bw'ingurube aho ingurube yabwaguye, hanyuma ibibwana byayo birenze icumi, bikaba biri bironka iyo ngurube igiye iryamye.

Inka y'ikimasa iziritse umugozi mu ijosi, aho iri ahantu, iruhande rwayo hakaba hubatse akazu k'ibyondo n'ibiti.

Ibyana by'ingurube bitatu bireba hejuru ku muntu wabifotoraga, biri mu cyumba cyabugenewe zororerwamo.

Ubuhinzi bw'urusenda aho hari ibitumbwe by'insenda zitarera neza ndetse n'umuntu umwe urimo urazerekana.

Igihingwa cy'inyanya, aho inyanya zigaragara ari ibitumbwe bine biteze neza, iki gihingwa kigaragara ko hashize igihe gito gihinzwe.

Umusaruro w'imbuto zizwi ku izina ry'amatunda aho yahishije ari menshi, akaba arunzwe hamwe mu mufuka wabugenewe.

Umurima wasaruyemo ibigori, hagasigaramo ibigorigori, aho hahinzemo n'ibindi bihingwa bitandukanye, nk'amateke ndetse n'ibindi.

Ihunikiro ry'ibigori, riri ahantu, ha hitaruye aho hasi hari pasiparume ndetse bikaba bitekanye cyane.

Ibimera bihingwa byitwa imboga bitandukanye nka dodo, ndetse inyuma yaho hari n'ibindi bitandukanye, nk'ibishyimbo n'ibindi.

Igisagara kirimo ubutaka bwihariwe, buhinzwemo ibiti by'umyumbati mu buryo bugezweho, aho bigiye bihinze ku murongo.

Ubuhinzi bw'urusenda aho uru rusenda rusasiwe neza ndetse rukaba ruvomererwa kugira ngo ruticwa n'izuba, hakurya yarwo hari inzu zituwemo n'abantu.

Ubuhinzi bw'imboga, aho izi mboga zikiri ahabugenewe zitunganyirizwa mbere y'uko zijya guhingwa mu mirima.

Imbuto zinyuranye ziri mu bwoko bw'amatunda ndetse zikaba zihinze, zaranakuriye ku ruzitiro rwa senyenge, hirya yaho hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Isoko ririmo imboga n'imbuto ndetse n'ibiribwa bitandukanye, harimo imyumbati, karoti, intoryi, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Abagore bambaye impuzankano hejuru y'imipira itukura, bari m'umurima wo mu gishanga aho barimo barasarura ingano.

Ingemwe y'igiti cya sipure, ndetse iruhande hakaba hahinze, imboga zitwa amashu.

Igihingwa cy'imyumbati ihinzwe hamwe ku murongo neza cyane ahabugenewe, aho iri hafi kwera ngo isarurwe.

Ubuhinzi bw'imboga, aho harimo imboga zitwa shufurere, ni imboga ziba zifite amababi ajya kumera nk'amashu ari mu ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzemo igihingwa kizwi ku izina ry'ibinyamboga, aho higanjemo amashu ndetse n'ibindi bihingwa byagiye bimeramo, aya mashu akaba ahinze bya kijyambere, aho ahinzwe ku murongo.

Ibimera bitandukanye bihinzwe ahantu mu gishanga, bikaba bizwi ku izina ry'urusenda birasasiwe cyane bigaragara ko babyitayeho.

Itungo ry'inka rikaba rifashwe n'abantu babiri, undi umwe akaba afite urushinge agiye kuyitera mu mugongo, ari kuyikingira.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo yambaye igisarubeti, umugore arimo arashishira inka, umugabo na we yiteguye guhita ashyira iherena ku gutwi ku iyi nka ku iburyo.

Inyubako irimo inka yororewe mu nzu. Hakaba harimo umugabo wambaye ikote n'ingofero arimo arayitera urushinge hejuru mu mugongo.

Abantu babiri bari mu kiraro; ikirararo kirimo intama, aho umwe muri bo yinjiyemo agaterura intama imwe, undi akaba ari inyuma, arimo arayitera urushinge mu ijosi.

Itsinda ry'abana bahagaze hamwe, abandi bafashe inka, bayiryamiye kugira ngo idateza imigeri, aho banayiziritse amaguru, umwe muri bo akaba arimo arayitera urushinge.

Abantu babiri bose b'abagabo, umwe wambaye ingofero undi yambaye igisurubeti aho barimo baraha inka umuti.

Abagabo babiri umwe yegamimye ku giti afite n'inkoni, undi na we ari iruhande rwiwe, aho buri wese imbere ye hari itungo ryitwa imbwa, aba bakaba baje kuzikingiza.

Umugabo w'umuvetereneri ari kumwe n'abandi bantu babiri barimo baramufasha inka kugira ngo abone uko ayitera iherena ku gutwi kw'iburyo.

Ikiraro kirimo inka ebyiri zigaragara neza, aho iya mbere ari isine, iya kabiri ikaba igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'umukara, izi nka zose zikaba zifite amaherena ku matwi yazo.

Igiti kiririmo indabo, ndetse n'inyoni ifite umunwa muremure, ndetse n'amabara y'icyatsi, iyi nyoni irimo irahahira muri izi ndabo.

Igisiga kiguruka gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, aho gihagaze mu murima gifite urubuto mu ntoki.

Inyamaswa izwi ku izina ry'ingagi, irurira ibiti ndetse ibiti birebire cyane, iyi ngagi isa nk'umukara ndetse iri yonyine.

Inyoni ifite umunwa usongoye, ifite amabara meza atandukanye harimo umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, ihagaze ahantu mu rurabo rw'igihwagari, irimo irahaha.

Akanyoni keza kidunze mu giti cyumye kitagira amababi, aka kanyoni kakaba gafite amababa ari mu ibara ry'igitaka.

Inyoni nziza cyane, iri mu mabara y'ubururu ndetse ifite umunwa usongoye, ihagaze hasi kuri sima ndetse irimo iritegereza mu turabo.

Umuhanda w'igitaka, hakaba harimo inkende yicaye muri uwo muhanda ari imwe yonyine iri kwitegereza imbere yayo.

Parike iri mu inyamaswa zizwi ku izina rya zebra, aho zifite amabara ari mu mukara n'umweru.

Akanyamaswa kameze nk'urukwavu ariko na none kakaba gafite ubwoya bwinshi mu mugongo, kari mu giti gafite n'urubuto kari kurya.

Akanyoni kazwi ku izina rya kagoma, aho gafite ubwoya cyangwa se amababa ari mu ibara ry'ubururu kakaba gafite igisunzu ndetse n'umunwa usongoye.

Akanyoni gafite amabara meza y'icyatsi, umutuku ndetse n'umukara, kakaba gafite na none umunwa usongoye kuriye igiti hejuru karimo karashaka icyo kurya.

Ishyamba rinini cyane ririmo inyamanswa zigiye zitandukanye aho hari eshatu z'impongo zihagaze imbere ku rutare zikaba zifite amahembe ajya kumera nk'ay'inka.

Akanyamaswa kameze nk'urukwavu gafite umurizo muremure kazwi ku izina ry'umuhari, aho gahagaze ku giti karimo karasimbagurika.

Akanyoni keza kari mu giti gafite amababa ari mu ibara ry'igitaka ndetse n'umunwa usongoye, kari mu giti hejuru aho karimo karitegereza hakurya.

Ishyamba ririmo utunyamaswa dutandukanye dusa n'umukara, turi mu ishusho ry'ingagi.

Akanyamaswa gatoya kajya kumera nk'inkende ariko ko kakaba gafite umurizo muremure, kuriye mu giti karimo karitegereza inyuma, akanyamaswa na none gafite umunwa utukura.

Inzoka ndende cyane kandi y'inkazi iri ahantu mu mucanga yirambuye ndetse iyi nzoka ikaba igira ubukana cyane kuko iramutse ikurumye haba hari amahirwe make yo kubaho.

Ishyamba rya parike ririmo ibiti kimeza ndetse n'ibyatsi byapfukiranye, harimo inyamaswa nini cyane igiye gutera nk'inka ndetse ifite n'amahembe abiri atonze umurongo umwe.

Imbeba ifite umunwa muremure ndetse n'ubwoya burebure ku munwa, iyi mbeba ikaba ari imbeba mbi cyane kuko yona imyaka by'umwihariko ibishyimbo.

Akanyoni kazwi ku izina ry'ikinyugunyugu, gafite amabara meza y'ubururu ndetse n'umukara.